Abanyeshuri benshi cane bambaye imyenda y'ishuri, ikindi kandi barengejeho imyenda zigaragaza umuco nyagwanda, bahagaze imbere y'inzu yubatse neza, ifite amadirisha gameze neza.

Abamotari benshi batwaraga abagenzi bari kuja mu ngendo zitandukanye, abandi bari hirya bafite ibintu bari kureba bahanze amaso gabo.